Ni indege izwi ku izina rya doroni iri mu kirere ifite ibara ry'igitare, itwaye umuti mu ishashi ndetse iyo shashi ifiteho n'agakarito.

Ni umuntu wavunitse yambaye igisima ku kaboko gifite ibara ry'igitare yambaye ishati y'umutuku irimo uturinbo tw'igitare hakaba imbere hariho ipesi kuri iyo shati, igisima kikaba gifashwe n'umwenda ufite ibara ry'ubururu bwijimye.

Ni umurwayi uryamye ku bitaro rwa muganga, yambaye ijiri y'umutuku, uriho agasaraba n'umuganga wambaye itaburiya y'igitare, umurwayi arimo selomo.

Ni abasore n.abakobwa bambaye amajiri y'igitare bicaye hasi kandi uri imbere yabo yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, umupira yambaye urimo umusaraba.

Ni ibitanda bibiri byo kwa muganga biri mu cyumba kirimo irangi ry'umuhondo kandi hakaba n'irangi risize hasi ry'umukara.

Ndabona abakobwa bane bambaye amapantaro y'amakoboyi y'ubururu yose, bambaye imipira y'igitare bose barasutse, hejuru y'abakobwa babiri bari ibumoso hari imitima ibiri igishushanyo cy'imitima ibiri.

Ni abantu bafashe ihene, ihene zirunamye zirimo zirarisha, bafashe ibiziriko zabyo, umwe ahagaze imbere yabo yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku n'ingofero y'umutuku, abo bafashe ihene bari munsi y'ibiti, inyuma y'aho y'ibiti hari inyubako yubakishije amatafari ahiye n'amabati y'igitare.

Ni igitanda cyo mu bitaro, kiri mu cyumba, icyo cyumba hakaba hari akabati gateretsemo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitambaro bifite ibara ry'umutuku ndetse n'igitare.

Ni icyumba cy'abarwaye kwa muganga hakaba hari abarwayi baryamye ku bitanda ndetse muri icyo cyumba hakaba harimo supanete zifite ibara ry'igitare ndetse n'amarangi kandi icyo cyumba kikaba giteye irangi ry'igita.

Ni abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'igitare kandi bakaba bahagaze kuma pave, inyuma y'iyo modoka hakaba hari ibiti birebire.

Ni abantu bahagaze abakobwa n'abasore, muri abo bambaye utujiri tw'umutuku undi akaba yambaye na ga z'igitare mu ntoki, hakaba hari umugabo wicaye ku ntebe y'igitare, yambaye ishati irimo utungurongo tw'umukara.

Ni abagabo babiri bateruye umuntu wambaye umupira w'umuhondo wanditseho gatatu, abo bagabo bakaba bambaye imipira y'igitare, kandi bambaye n'utujiri tw'umutuku, bari munsi y'ibiti birebire.

Ni abaganga benshi batandukanye bambaye ibisubeti by'ubururu, ga z'ubururu, bambaye ubupfukamunwa bw'igitare n'ubururu, bambaye ibishashi mu mutwe by'icyatsi, hari n'agacupa k'ibinini ku ruhande.

Ni abaganga babiri b'abakobwa bambaye impuzankano ya gisirikare bakaba bambaye n'udupfukamunwa tw'ubururu, bambaye itaburiya y'ikigina, ku gitanda hakaba haryamye umwana.

Ni ibitanda byo kwa muganga, bifite amashuka y'icyatsi cyijimye ndetse n'ubururu kandi hakaba hateyemo irangi ry'igitare.

Ni abantu benshi bari mu muhanda inyuma yabo hari imodoka ndetse bakaba imbere yabo bayobowe n'abapolisi bafite imbunda kandi bari mu muhanda wa kaburimbo, mu ruhande rw'iburyo bw'uwo muhanda hakaba hari ibiti ndetse n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Ni icyumba cy'abarwayi kwa muganga, harimo ibitanda bitandukanye ku rukuta hateye irangi ry'umuhondo kandi harimo na'masupanete, hari n'undi wicaye mu kagare yambaye umupira w'icyatsi n'abandi bicaye ku gitanda.

Umurwayi wambaye ishati y'umukara irimo uturongo tw'igitare. Akaba yicaye ku gitanda kwa muganga. Iruhande rwe hari umuganga uri kurambura igitabo. Yambaye itaburiya y'igitare. Iruhande rwuwo muganga, hari umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu kandi uwo murwayi akaba arimo selomo, ari mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo.

Ni abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hakaba hari ibiti birebire by'inturuso na gereveriya ndetse n'amatara yo ku muhanda, hakaba hari n'insinga z'amashanyarazi, iburyo bwawo hakaba hari ibyatsi bizwiho kuba byitwa pasiparume.

Ndabona imodoka ya ambilanse ifite pulake ya ji ara gatatu gatandatu gatandatu e, iparitse ahantu hari amapave inyuma yaho hari inyubako ifite n'inkingi zisize irangi ry'igitare.

Ndi kubona abarwayi bari mu bitaro bicaye ku buriri, hejuru yabo hari supanete, aho barwariye hari amarido y'umuhondo, mu nzu hasizemo irange ry'igitare, hari n'undi mugore ufite ibasi y'ubururu ndetse n'akabuni mu ntoki, ahetse n'umwana.

Ndi kubona ibitaro, nkabona umuganga wambaye itabura y'igitare ndetse na ga mu ntoki, nkabona n'inzu yubakishije amatafari ahiye n'ijambo ryanditse ngo pediyatiriki wadi.

Ni igikoresho k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu bintu bitandukanye, haba mu kubika kwandika ndetse no kureba ibintu bitandukanye, akaba ari mudasobwa iteretse ku meza mu cyumba giteye irangi ry'igitare.

Ni abantu bahagaze imbere y'inyubako, hari umusirikare ufite ibendera ry'u Rwanda, undi yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'abandi bantu bahagaze inyuma bifasha no ku gahanga.

Ni abarwayi batandukanye abagore, abagabo bari kwa muganga, imbere yabo hakaba hari umuganga wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi akaba yambaye n'agapfukamunwa, bamwe muri abo barwayi hakaba harimo abafite ibipapuro kandi bakaba begamiye ku gikuta giteye irangi ry'umuhondo.

Ni umuganga ufite ikaramu mu ntoki arimo arandika yambaye itaburiya y'igitare kandi imbere ye kumeza hari icupa ririmo ibinini ndetse n'umuntu wicaye iruhande rwe wambaye umwenda w'igitare.

Na abarwayi bari kwa muganga, bicaye mu nyubako iteye irangi ry'umuhondo, hakaba hari umwe wicaye mu kagari, undi akaba yicaye ku ntebe ifite ubutambike.

Kubona abanyabuzima bambaye amataburiya y'ubururu n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu na baji mu gatuza, nkabona bicaye mu itente rifite decoreshoni igizwe n'amabara y'u Rwanda: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ndi kubona kandagira ukarabe iriho umugabo uri gukaraba intoki kandagira ukarabe yubakishijwe amakaro ndetse yambaye agapfukamunwa n'undi uri inyuma ye yambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Ni abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, abasore n'abakobwa, abagore n'abagabo, iyo nyubako ikaba iteye irangi ry'igitare kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbere yabo hari ubusitani bwa pasiparume.

Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye imbere yayo hakaba hari abantu batandukanye abagabo, abagore, hakaba harimo bamwe bambaye amataburiya y'igitare ndetse hakaba hari n'igiti cy'umukindo.

Ndabona abagore n'abagabo bahagaze imbere y'imodoka yanditseho ambirase, bambaye agapfukamunwa, hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu na baji ifite akagozi k'ubururu, undi yambaye ikabutura n'ishati y'umukara afite agapapuro mu ntoki, inyuma hari ibiti ndetse n'ibirabyo.

Ndabona umurwayi n'umuganga, umurwayi afite selumu mu kaboko yambaye ishati y'umukara irimo uturongo tw'igitare ndetse n'umutavayi wambaye itaburiya y'ubururu. Umuganga yafunguye ikayi ndi kubona na supanete, nkabona n'abandi bagabo babiri n'igitanda.

Ni umuganga w'umugore yambaye itaburiya y'igitare akaba yambaye ga mu ntoki, afashe ikaramu ifite igifuniko cy'umukara, imbere ku meza hakaba hari agacupa k'igitare gafite umufuniko w'umutuku.

Ni abaganga babiri, bambaye ibisurubeti by'igitare, bari kureba muri mayikorosikopi, bose bambaye ga z'ubururu mu ntoki.

Ni umuganga w'umugabo akaba ari kureba mu cyuma k'ikoranabuhanga mu ndimi z'amahanga bita ngo ni microscope, akaba yambaye itaburiya y'igitare ndetse iruhande rwe hakaba hari akabati karimo imfunguzo ebyiri ndetse n'impapuro.

Umuganga wambaye itaburiya y'igitare, yasetse, yambaye linete z'umukara, yambaye ga z'ubururu mu ntoki, imbere ye hari imiti, ku ruhande hari televiziyo.

Ndabona abana bato bambaye amashati y'icyatsi n'amapantaro y'umukara bari ku ruziga, hirya y'aho hari abagore babiri, undi yunamye afashe umwana ari kumwambika inkweto, hirya y'aho hari akazu gatoya, imibyare ndetse n'umugozi umanitseho imyenda.

Ni abagabo ikenda bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, hakaba hari umwe muri bo wambaye ijire ifite ibara ry'ubururu, kandi hejuru y'inyubako hakaba handitseho ngo Nyamikamba Health Post.

Abagore batandukanye bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, bateruye impinja kandi biteze ibitambaro mu mutwe, bambaye imipira iriho ikirangantego cyanditseho USAID.

Ni abantu benshi batandukanye, barimo kubyina, abagabo bateze amaboko, hakaba hari n'abandi bari gukoma amashyi kandi bahagaze mu byatsi, bambaye imyenda y'imipira yicyatsi.

Ni abantu bicaye harimo abagabo, abagore imbere yaho hakaba hari umuntu uhagaze nk'umugore uri kubabwira yamanitse akaboko ndetse yambaye isaha no ku kaboko, inyuma ye hakaba hari inyubako ifite urugi rw'ibiti iteye icyondo.

Ni abana bato babanyeshuri bambaye impuzankano hejuru ishati y'igitare, hasi ikabutura ya kake, hakaba harimo n'uwambaye impuzankano y'ishati y'umuhondo, hakaba hari ibyicungo ndetse akaba hari n'umugabo uri hagati yabo wambaye ijire y'umuhondo.

Ni abaturage abagabo n'abagore, umugore umwe yambaye tushati y'ubururu yanditseho ubuzima, akanyaye igitenge k'icyatsi, abandi bari gukoma amashyi, abandi bambaye amashati y'ubururu hariho n'amapesi.

Ni umugore uri guseka yambaye ishati y'ubururu, afite agakomo k'umukara ndetse ateruye uruhinja ruri guseka rwambaye ingofero igizwe n'amabara y'ubururu n'umutuku, inyuma ye hari undi witeze nk'abayisilamu ateruye uruhinja.

Ni abaturage abagore n'abagabo bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, bari ku murongo kandi bari kugenda bazenguruka imbere y'amatente, hasi bahagaze hari ibyatsi.

Ni abagore bambaye udupfukamunwa tw'ubururu. Bakaba bicaye ku ntebe, bakaba bari mu cyumba kwa muganga. Icyo cyumba kikaba gifite amarido ndetse kikaba giteye n'irangi ry'umuhondo ku nkuta, z'icyo cyumba barimo.

Ni abana bato bambaye imipira ya oranje bari guhabwa amata n'umugabo wambaye linete, uri guha umwana amata mu cyansi arimo aranywa, n'undi inyuma ufite icyansi uri guha umwana, inyuma yaho hari kameramani wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu.

Ni abagore bicaye ku ntebe y'urutambike bateruye impinja umwe yambaye ibitenge by'ubururu ndetse undi akaba ateruye uruhinja afashe ku myenda rwambaye y'igitare.

Ndabona mwarimu uri kumwe n'abanyeshuri, umwarimu yambaye itaburiya y'igitare, ni umugore, abanyeshuri bambaye ishati z'igitare n'amapantaro y'icyatsi n'amajipo y'icyatsi ndetse na karuvati bari gukoma amashyi.

Ndabona umukobwa ufite ibisuku wambaye umupira, w'igitare afite mikoro. Inyuma ye hari abandi, bagabo bicaye bambaye imipira, yigitare. Kumeza hateretse, uducupa tw'amazi. Bicaye ku ntebe z'umukara.

Ni abantu bicaye bambaye impuzankano y'imipira y'igitare n'amakabutura y'iroza, bafite udupfukamunwa tw'ubururu kandi bose barimo gukoma amashyi.

Ni umugabo uhagaze ufite ubwanwa, yambaye umupira w'ubururu yafunze amapesi abiri irindi ntirifunze, imbere ye hari mikoro ebyiri kandi umupira yambaye wanditseho inyuguti eshatu ziri mu mabara atandukanye: ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Ni abagore bahagaze ku murongo, bambaye imipira y'igitare. Umwe afashe mikoro arimo aravuga. Inyuma yaho hakaba hari inyubako yubakishije amatafari ahiye. Imbere y'inyubako hakaba hari ubusitani bw'ibirabyo.

Ni abantu batandukanye abagore n'abagabo bicaye mu buryo bw'uruziga kandi ku ntebe za pulasike z'igitare, bicaye mu gicucu k'igiti kandi hari pasiparume bicayemo, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere y'iyo nyubako hari ibirabyo by'umuhondo.

Ni umuganga w'umugabo yambaye itabure y'igitare kandi yambaye n'iya baji mu gatuza ifite akagozi k'ubururu ndetse ku rutoki yiziritseho agapapuro ka oranje ndetse yifashe mu mayunguyungu ari mu cyumba giteye irangi ry'igitare.

Nabantu benshi abagore n'abagabo ,ndetse hakaba harimo n'abapolisi iruhande rwabo hari ibirabyo by'umuhondo n'icyatsi bakaba bafite icyapa cyanditseho kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda bakaba iruhande rw'inyubako ndetse n'umuhanda urimo amapave.

Ni abantu batatu bateruye umuntu urwaye, wambaye umupira wumutuku, babiri bambaye amajiri y'icyatsi, ariho icyapa cy'umusaraba mu mugongo, imbere yabo hari imodoka.

Ni inyubako ifite inkingi enye, iruhande rwayo haparitse imodoka, kandi iyo nyubako ifite amabati y'ikigina, iteye irangi rya orange, ikaba ifite ni icyapa imbere, kandi izo nkingi zikaba ziteye irangi ry'umukara.

Ni inyubako ifite imiryango itatu kandi iyo imiryango yose irakinguye, ifite irange ry'igitare kandi hari icyapa kimanitse hejuru, cyanditseho Africa Agrivet service ltd.

Ni ububiko bw'imiti itandukanye kandi igiye ifite amabara atandukanye, harimo ifite ibara ry'umutuku, ubururu, igitare n'umuhondo.

Ni farumasi irimo imiti itandukanye isize ibara ry'igitare n'icyatsi, handitseho ijambo ngo Porogeresi Farumasi, imbere y'aho hari intebe, hasi hari amakaro.

Ni umugore wambaye amaherena akaba yambaye isaha ku kaboko ndetse n'agakomo k'igitare, akaba yambaye itabuririya y'igitare, akaba ari kureba mu miti kandi imiti ikaba iri mu dukarito tw'amabara atandukanye umutuku, igitare.

Ni umugabo wambaye itabuye y'igitare, imbere ye hakaba hari ubucupa bw'imiti kandi n'inyuma ye hakaba hari akabati karimo imiti itandukanye ndetse ku meza hakaba hari n'akuma kifashishwa mu gufunga impapuro.

Ni icyumba kirimo imiti y'ubwoko butandukanye, icyo cyumba kikaba kirimo amatara kandi hakaba harimo n'amakaro afite ibara ry'igitare, iyo miti ikaba iri mu bicupa bifite amabara atandukanye, igitare, ubururu.

Ni farumasi y'imiti itandukanye iteretse ahantu ifite ibikarito by'amabara atandukanye n'indi iri mu ducupa, hakaba iri mu ducupa ndetse n'iri mu bikarito by'umutuku n'igitare.

Ni umugore wambaye umupira w'igitare, afashe mikoro, afite amaherena atendera ku gutwi, afashe icyapa mu ntoki cyanditseho ugakoreshe neza.

Ndimo ndareba umuyobozi afite mikoro, yambaye ishati y'igitare, inyuma ye handitse ngo ipimishe virusi itera sida ndetse n'ijambo RBC ryanditse mu nyuguti nkuru.

Ni abantu batandukanye abagore n'abagabo, bambaye imipira y'igitare, bari imbere yigisharagati gifite ibara ry'igitare, handitseho Rwanda kandi gifite imitako iri mu ibara ry'umutuku n'igitare, inyuma yaho hari ibiti kandi imbere yaho bahagaze hari ibyatsi.

Ndabona abagabo n'abagore harimo n'umupolisi bafashe ikibandelore cyanditseho ngo agakingirizo, gukoresha agakingirizo abandi bari impande ya etaje inyuma yaho hari imodoka hirya yaho hari amapoto ndetse n'igiti cy'umukindo.

Ni abakobwa n'abasore, barahagaze barimo barakoma amashyi inyuma y'aho ku gikuta hateye irangi ry'igitare, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi ndetse na telefone, ku meza hakaba harambitse amakaramu, bambaye imipira y'umukara hejuru hasi ku y'umupira ni igitare.

Ndi kubona abaganga bafashe imbwa, bambaye amatabu y'igitare ndetse na ga z'ubururu nkabona ijambo ryanditse ngo ''rabies vaccination campaign resumption''.

Ni abantu benshi cyane bari mu muhanda, harimo n'abambaye ibisurubeti by'ubururu. Iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari inyubako ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse ibumoso bw'umuhanda hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi ririho n'insinga. Bafite icyapa kiri kugenda gishishikariza abantu kurwanya ibiyobyabwenge n'ibyaha.

Ni banyeshuri bambaye impuzankano y'umupira w'umuhondo, hasi bakambara amapantaro y'umukara n'amajipo y'umukara, harimo abambaye imipira y'ubururu, inyuma yaho hari ibiti birebire kandi hakaba hari n'abandi bana bicaye hasi.

Ni abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye imipira y'imituku, abandi bambaye amataburiya y'igitare ndetse bari gukoma amashyi ndetse hari n'umugore umwe wambaye amarinete.

Ndikubona abagore n'abakobwa n'abasore bafashe ikibanderole cya RBC gifite ibara ry'ubururu bari imbere y'inzu isize irangi ry; igitare yubakishije amatafari ahiye...

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru bakaba bambaye impuzankano y'umupira w'umuhondo urimo ibara ry'umukara, inyuma ya babiri bahagaze imbere hakaba hari undi wiyambuye umupira ndetse n'ikibuga, inyuma yabo gatoya hakaba hari inyubako ziriho urugo rw'imiyenzi, ndetse n'amapoto y'inshinga z'amashanyarazi n'amatara yo ku muhanda.

Ni ikimera cy'umuti kitwa umuravumba. Umugore arimo arasoroma yiteze agashabozi k'igitare. Iruhande rw'uwo muti w'umuravumba hari umubyare n'amakoma yaho. Uwo mugore afite agasakoshi mu ntoki k'ikigina.

N'ibibabi by'inurusu biri mu ibara ry'icyatsi cyijimye n'utubuto tw'inurusu, ibibabi birebire...

Ni abagore bari gukora umuhango wa kera ndetse hari ububindi butatu, kamwe karimo gucumbamo umwotsi, yambaye inigi mu gatuza ndetse n'urugori mu mutwe, bambayebamwe ingofero, undi yambaye umupira w'umuhondo hariho nudupeti tubiri turi mu ibara ry'umuhondo.

Ni umurwayi witeze agatambaro k'umuhondo yicaye ku ntebe imbere ye hari abaganga babiri umuganga w'umugabo n'umugore, umugabo akaba yambaye amarinete ndetse ku meza hakaba harambuye amakayi.

Ni imiti gakondo ya kinyarwanda ikaba iri mu dufuka dutandukanye harimo, utw'icyatsi, utw'ubururu, utw'igitare, umutuku ndetse n'umuhondo, tukaba duteretse ahantu hafite ibara ry'igitare.

Ni icupa ririmo umuti, ririho ikirangantego cyanditseho ngo Umuravumba ndetse n'ifoto yacyo iriho ibibabi by'umuravumba.

Ni abantu bane abagabo batatu n'umugore umwe bari gutambuka mu byatsi imbere y'inyubako iteye irange ry'ubururu iriho icyapa cyanditseho Gira ubuzima kandi inyuma y'iyo nyubako hakaba hari ibiti bya gereveriya ndetse n'ipoto ririho urutsinga rujyana amashanyarazi kuri iyo nyubako.

Ni inyubako iteye irangi ry'ubururu, ikaba ifite icyapa cyanditseho ijambo ryitwa gira ubuzima, imbere y'iyo nyubako hakaba hari kandagira ukarabe iteye irangi ry'ubururu ndetse inyuma y'iyo nyubako hakaba hari ibiti birebire.

Ndimo ndabona ivuriro ririho umuganga wambaye ijire ndetse n'agapfukamunwa, iryo vuriro rifite amabati y'ikigina hejuru yaho hari umwirasire risize irangi ry'ubururu ndetse n'igitare.

Ndabona ivuriro rifite umurasire hejuru, riifite amabati y'ikigina, riteye irangi ry'ubururu ndetse n'igitare, ndi kubona umuganga wambaye agapfukamunwa k'igitare n'itaburiya y'igitare n'undi muganga uhagaze mu muryango na we yambaye itaburiya y'igitare ndetse n'abarwayi babiri bari kwinjiramo.

Ndi kubona umuganga wambaye itaburiya y'igitare ari kureba muri kompiyuta, iruhande rwe hari impapuro ndetse afite n'umusatsi wa natirere.

Ni abantu bahagaze imbere y'inyubako abagore n'abagabo, muri abo bahagaze harimo n'umuzungu, hari abagabo bambaye amataburiya y'igitare kandi inyubako bahagaze imbere yayo iteye irange ry'ubururu hariho ijambo ryanditse Gira ubuzima herufu positi.

Ni umuganga n'umurwayi, umuganga yambaye itabura y'igitare, yambaye agapfukamunwa k'umutuku, afashe ikayi ndetse n'ikaramu, ku meza harambitseho agacupa ka sanitayiza ndetse n'ibitabo bibiri byo kwandikamo.

Ni umuganga wicaye, imbere ku meza hari ibipapuro, afite ikaramu y'ubururu mu ntoki akaba yambaye itaburiya y'igitare, inyuma ku rukuta hakaba hasize irange ry'umuhondo kandi imbere ye hakaba hari umurwayi.

Ni abantu benshi harimo abagore n'abagabo, hakaba hahagazemo umusirikare bari imbere y'inyubako iteye irangi ry'ubururu, ifite amabati y'ubururu, iyo nyubako ikaba yanditseho "gira ubuzima" kandi imbere yabo hakaba hari ubusitani buriho n'ibirabyo.

Ni abantu bicaye mu nzu hejuru y'iyo nzu kuri parafu hakaba hariho amatara abiri, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'igitare irimo ibara ry'umukara ndetse hakaba hari n'ikibaho muri iyo nzu hakaba hasize irange ry'umuhondo.

Ni abana bato barindwi bicaye mu muhanda, imbere y'inyubako yanditseho Gira ubuzima, iteye irangi ry'ubururu, imbere yayo hari igiti cy'umukindo.

Ni umuhanda ushashemo amabuye, ibumoso bwawo hari rigori ndetse hari n'inyubako yanditseho Saint Rita farumasi, iteye irangi ry'igitare, imbere y'iyo nyubako hari amapave ndetse na jaride.

Ni abantu benshi bahagaze hanze imbere y'inyubako iteye irangi ry'ubururu, iyo nyubako ikaba ifite icyapa cyanditseho Girubuzima, muri abo bantu hakaba harimo abazungu, ku ruhande rw'iburyo hakaba haparitse moto.

Ni umurwayi urwaye uri mu bitaro, yicaye ku gitanda kwa muganga, iruhande rwe hariru umwana ufashe terefone, uri guseka kandi inyuma ye hari ibirahure, urukuta rw'icyumba barimo gisize irangi ry'igitare.